Icyumba kiberamo inama giteraniyemo abantu benshi bari mu nama. Imbere yabo hari abantu bagera muri batandatu bahicaye harimo abagabo n'abagore. Bigaragaza ko aribo bari kubakoresha inama. Inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho insanganyamatsiko bari kwigaho.

Umugore uhetse umwana, yambaye igitenge n'agapira k'icyatsi, ahetse umwana amuhekesheje igitenge, amuhetse nk'abakongomani, ari ku ivomero rya kinyarwanda, ryashyizweho na Leta y'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bahagaze hamwe, harimo abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya yabo y'ubururu, harimo n'umuganga umwe wambaye itaburiya y'umweru, hagati yabo hari umugabo muremure cyane wambaye ikositimu bigaragara ko bari kwifotoza.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore babiri, imbere yabo ku meza hari igikoresho kizwi nka porojegiteri, aho kigenda gishyiraho amashusho yerekana ibyo bari kwigaho muri iyo nama.

Abaganga benshi cyane, bari ku cyapa bagera muri batanu, harimo abagore batatu, ndetse n'abagabo babiri, hejuru hari amagambo yanditseho mu ibara ry'umweru ariko akaba yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Ni ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari umukecuru wicaye aho afashwe ukuboko n'umuganga, ari kumusuzuma ngo arebe ko nta kibazo yaba afite, aho amutera agashinge hanyuma agapima amaraso.

Umwana w'umukobwa usutamye uri guseka cyane akaba yateze intoki ku ivomero aho hari kuzaho utuzi duke duke, akaba kuyakaraba, ni byiza cyane kugira isuku ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abajyanama b'ubuzima bateraniye ahantu hamwe bari gukoma mu mashyi barishimye cyane, hejuru yabo hari ishitingi isa umweru bugamamo izuba ndetse n'imvura, imbere yabo hari ubusitani ndetse hirya hari inyubako iri kurenga itagaragara neza.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abana, abagabo ndetse n'abagore. Bashungereye umudamu uri imbere wunamye wambaye imihama ndetse hari n'undi mugabo ufite indangururamajwi ari kubaririmbira bigaragara ko ari umuhanzi.

Ni ku ivomero rusange ahateraniye abantu benshi bagiye batandukanye. Hari abagore bagera muri batatu. Babiri muri bo bari gupompa kugira ngo amazi aze, undi umwe afite indobo y'icyatsi iri kujyamo ayo mazi.

Umugore wambaye ibitenge yajyanye umwana kwa muganga, umuganga nawe we yambaye itaburiya y'umweru n'amaherena ari guha umwana umuti, ni byiza cyane kwihutana umwana kwa muganga igihe cyose tubona kimwe mu bimenyetso mpuruza tuba twarahawe na muganga.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba aho bari mu nama, imbere yabo hari abantu bagera muri batandatu bari kubakoresha iyo nama, harimo abagabo batanu ndetse n'umugore umwe, abo bagabo bambaye amakositimu, inyuma yabo ku gikuta hariho icyapa kiriho amafoto yabo.

Umwana muto cyane watojwe isuku n'ababyeyi. Afite igikombe ari kuri robine ari kuvoma amazi kugira ngo ayanywe. Ni byiza cyane gutoza abana bacu kugira isuku ndetse no kunywa amazi bifashishije igikombe. Kuko barabikurana bakagira umuco mwiza.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama harimo abagore bagera muri bane ndetse n'umuganga, akaba ari kubasobanurira uburyo kwita ku buzima bwabo n'abana babo ari byiza cyane.

Umugore wambaye ikanzu y'ubururu yicaye ku gitanda kwa muganga, yiteze n'igitambaro, hari abaganga bari kumwitaho, umwe w'umudamu yamushyize icyuma cyifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso ku kizigira cy'ukuboko.

Umugore wambaye ikanzu y'icyatsi, agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi, yambaye akajiri, akaba yambaye n'udupfukantoki afite agakoresho kifashishwa mu gupima kovide cumi n'icyenda, ari kuyipima umwana uteruwe n'umubyeyi.

Abantu benshi bateraniye hamwe bicaye mu cyumba bari mu nama bicaye ku ntebe zifite imifariso y'ubururu imbere yabo ku meza hari udutambaro dusa umweru n'ubururu. Hari umugore uri kubakoresha inama imbere yabo inyuma ye hari abandi bagabo bahicaye bafite amazi imbere yabo nabo bari muri iyo nama.

Umwana muto w'umunyeshuri wambaye impuzankano y'ishuri akaba ari ku ivomero ryashyizwe ku ishuri ari kunywa amazi akoresheje intoki, imbere ye hari indobo y'icyatsi yanditseho inicefu

Umubyeyi ukikiye umwana, uwo mwana akaba ari kureba mu ifoto. Umuganga ari kumwitaho, ni byiza cyane kwihutana umwana kwa muganga, igihe cyose ubonye kimwe mu bimenyetso mpuruza.

Umubyeyi wambaye agapir a k'umweru ateruye umwana

Abantu benshi cyane bahagaze bari kwifotoza, harimo abagabo ndetse n'abagore, inyuma yabo hari icyapa gisa ubururu, cyanditseho amagambo asobanura insanganyamatsiko iyo nama yari iri kwigaho.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bateraniye hamwe ku biro by'umurenge aho bari mu nama. Hari amashitingi asa umweru, ahamanitse ndetse n'ibiro by'umurenge byubakishije amabati asa umutuku ariko ashaje.

Umwana ukiri muto uri ku ivomero aho ari gukaraba intoki ze. Yambaye imyenda y'umutuku idoze mu bitenge. Ni byiza cyane ko abana tubatoza kugira isuku bakiri bato, kuko bituma bagira ubuzima bwiza.

Abagore babiri bahuriye ku ivomero rusange, aho bafite amajerekani menshi baje kuvoma, amwe arasa umweru, andi ni umuhondo. Inyuma yabo hari insina ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye.

Abantu bateraniye hamwe barikwifotoza. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo hehe n'igwingira twite ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama, hakaba higanjemo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari utwapa tuba twanditseho amazina yabo buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye.

Abana bicaye bambaye udupira twa oranje, bari kumwe n'abagabo nawe wambaye utujiri ndetse n'udupira dusa oranje, bari kubanywesha igikoma, ubu ni uburyo bwiza bwashyizweho na Leta bwo kurwanya igwingira mu bana bato.

Ni ku ivomero rusange aho bavoma umuntu umwe ari gupomba undi ari gutega amazi. Umugore niwe uri gupomba naho umwana ari gutega amazi, hirya hari abandi bantu bahagaze babashungereye bari kureba bahagaze mu nsina.

Umugezi wa robine uri kuzana amazi menshi cyane. Hari umuntu watezeho ibiganza bigaragaza ko yaje gushaka amazi. Ni byiza cyane ko dukaraba intoki zacu mbere yuko tunywa amazi kuko bituma tugira ubuzima bwiza cyane.

Abana benshi cyane, bahuriye ku mugezi, aho bari gukaraba intoki ndetse banywa n'amazi. Bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri. Ubu ni uburyo bwiza leta yakoze bwo kwegereza abantu bose amazi.

Ku ivomero rusange, hateraniye abantu benshi baje gushaka amazi, Leta yakoze uko ishoboye yegereza abaturage amazi ku buryo bazajya bayabona batagommbeye kujya kure, ni ryiza cyane.

Aba bagore bagera muri batatu bateraniye hamwe ku ivomo rusange. Ni rya rindi bavoma ari uko babiri bari gupika icyuma. Hari babiri bagifashe undi umwe afite indobo y'icyatsi irambitse mu kibindi ateze amazi.

Abantu bari mu cyumba gitangirwamo serivisi aho bari bari mu nama. Bahagaze hamwe barikwifotoza. Inyuma yabo hari igikuta cyanditseho amagambo mu mabara y'umweru n'umutuku, n'ubururu avuga ngo uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, hari umugore wambaye akajiri n'agapira k'ubururu akaba ari kugenda abahereza impapuro, uyu nguyu uko bigaragara ni umuganga, ari kubaha impapuro zanditseho uburyo bashobora kwita ku buzima bwabo.

Icyumba cyateraniyemo abantu benshi cyane bari mu nama, imbere yabo hari utumeza dufite ibitambaro by'umukara, hateretseho amakayi ndetse n'amazi ku buryo buri muntu wese ari buze gusomaho igihe aragirira icyaka. Hejuru, amatara ari kwaka.

Ibiganza by'umuganga byambaye udupfukantoki dusa ubururu, tukaba turi gutunganya ikintu runaka kitagaragara neza.

Umwana ukiri muto ufite imyaka nk'irindwi, yagiye ku ivomero ari kwikorera indobo, iruhande rwe hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu ufite ingata agiye kuyimushyiriraho, si byiza gukoresha abana bakiri bato imirimo ivunanye nk'iyi ngiyi.

Umwana muto w'umukobwa ari gukaraba intoki, aho mu mutwe we afite imisatsi ya direde, akaba yambaye agakanzu cyangwa akajipo k'umutuku kadoze mu bitenge.

Abana batatu bakiri batoya, bateze intoki ku gihombo kizana amazi, bari gukaraba barebye umuntu uri kubafotora, bigaragara ko bishimye cyane. Ni byiza gutoza abana bakiri bato kugira isuku.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho harimo umugore wambaye agapfukamunwa ateze n'igitambaro n'umupira w'icyatsi. Akaba yinjiye muri icyo cyumba bigaragara ko bagiye kumuha serivisi runaka.

Umwana mutoya wikoreye akajerekani hakaba hari umugabo ukorera ikigo cya UNICEF ugafasheho wambaye imyenda y'ubururu, hari undi mukobwa w'umuzungu uri kubafotora wambaye imyenda y'umuhondo, hari n'abandi bagabo babiri bahagaze bari kuvuga ko atari byiza kuvunisha umwana ukiri muto ahubwo ugomba kumwohereza ku ishuri.

Abantu bicaye mu ihema ritatse mu mabara y'idarapu ry'u Rwanda ariyo: ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi ari kubagezaho imbwirwaruhame.

Ku ivome rusange hateraniye abantu benshi baje gushaka amazi, abiganjemo ni abana ndetse n'umugabo umwe, hari ibijerekani bazanye kuvoma amazi, bimwe birasa umuhondo ibindi ni umweru, bose bararangaye bigaragara ko hari icyo bari kureba ku ruhande.

Abagore batatu bahuriye ku ivomo rusange babiri muri bo bari gupomba kugira ngo amazi aze undi umwe afite indobo y'icyatsi mu ntoki ari gutega ayo mazi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bigera bitandukanye bifashisha bari gutanga ubutabazi bw'ibanze, ibikuta biteye amarangi y'umweru ariko haciyemo n'uturonko dusa ubururu ndetse n'umutuku.

Abamama bateraniye hamwe ku ivuriro rusange, baje kuvuza abana babo. Barabakikiye buri wese afite umwana we bigaragaza ko yaje kumukingiza cyangwa kumupimisha, kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Ku ivomero rusange risize amabara y'ubururu, hari abantu benshi bagiye gushakayo amazi. Ariko hari umubyeyi umwe uri kogereza umwana mu ibase aho ngaho. Hari n'undi mwana uri kuvoma aho ku ivomero.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama bakaba bari kuganira ku ngingo runaka, bafite akameza kari hagati yabo ndetse bari mu nyubako nziza cyane iteye amarangi asa umweru.

Abana benshi cyane biganjemo abambaye impuzankano zisa icyatsi, bari ku mugezi wa robine umwe muri bo yatezeho amaboko ari kunywa amazi. Ni byiza kunywa amazi, ariko bikaba byiza kurushaho dukoresheje igikombe.

Mu rwego rwo kurwanya indwara nyinshi cyane cyane z'ibyorezo, ni ngombwa ko tujya kwa muganga bakaduha urukingo rw'izi ndwara, nkuko tubibona uyu mudamu yagiye kwikingiza indwara ya Covid cumi n'icyenda, muganga na we ari kumutera urushinge.

Abantu benshi cyane bahagaze bari kwifotoza. Harimo abagabo n'abagore. Bambaye imyenda igiye itandukanye, iri mu mabara y'ubururu n'umutuku, icyatsi n'ayandi. Inyuma yabo hari icyapa kiriho insanganyamatsiko bari bari kwigaho. Ku ruhande rw'iburyo hari idarapo ry'u Rwanda.

Umusaza wagiye ku ivomera rusange, akaba yicaye ku ibido ari guseka, ibigaragara arishimira uburyo begerejwe amazi na Leta y'u Rwanda none akaba ayabona atagombye kujya kure.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari mu nama, imbere yabo hari umugabo uri kubagezaho ikiganiro, inyuma ye hari icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima RBC.

Agatanda k'amasahani kanitseho amasahani y'umweru ndetse n'akabasho k'icyatsi uturitiro ndetse n'agakombe k'umutuku, ubu ni uburyo bwiza leta yashyizeho bwo kujya twanika ibikoresho byacu, buri muntu wese akagira agatanda k'amasahani mu rugo iwe.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi hakaba hari n'indi nyubako y'uruziga cyane, aho abantu bagenda bakabaha serivisi z'ubuvuzi.

Umumama n'umusaza bagiye kuvoma amazi ku ivomero rusange, hari umukobwa wambaye akajeri gasa icunga, ufite imisatsi ya kizungu, uri kubavomesha.

Akazu gakorerwamo serivise zo gutanga amazi, gasize amarangi y'umweru n'ubururu, hari abantu baje kuvoma amazi, aho batunze umuronko, imbere yabo hari umukobwa uri kuvomesha.

Abantu benshi bateraniye hamwe. Bafite ibyapa mu ntoki zabo byanditseho amagambo asa ubururu, ariko agasomeka neza. Aba bantu uko bigaragara batuye mu cyaro kuko bari ahantu mu gisambu.

Umukobwa wambaye akajiri k'umuhondo bigaragara ko akorera sosiyete y'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda wa MTN ari guseka ndetse ari mu iduka.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso isa umweru hejuru hakaba hariho ibintu bisa icyatsi, iyi modoka ni iy'ikigo cy'u Rwanda kita ku buzima hashushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu bavuga ko ari umunsi wo kwita ku buzima bwo mu mutwe, iruhande rwayo hicaye abantu batandukanye baje muri uwo munsi.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, aho yipfutse mu maso yambaye akagofero mu mutwe, arirabura cyane bigaragaza ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ni byiza cyane kwegera umuntu nku'uyu tukamuhumuriza kugira atiheba.

Abana bateraniye hamwe bambaye impuzu mpuzankano zisa umuhondo, bafite n'ingori ku mitwe, bari guseka barishimye, ubona ko rwose banezerewe, ni byiza cyane kujya duhuriza abana hamwe kuko bituma bagira umunezero.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda bambaye imipira isa icyatsi ariko kandi harimo n'inzego z'umutekano, imbere hari abapolisi babiri bafashe icyapa cy'umweru kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikirango cya polisi, handitseho ngo kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye.

abantu benshi cyane bari bari mu nama none inama irarangiye, umwanya ukurikiyeho ni umwanya wo gufata ifoto y'urwibutso, bose bateraniye hamwe imbere bari kwifotoza.

Abagore bagera muri batatu n'umwana umwe, imbere yabo hicaye umugabo wakuyemo urukweto yambaye agapantaro k'umweru, yatebejemo agashati k'ubururu, ari kumwereka uko ubuzima bwe buhagaze.

Umugore yicaye ku ntebe y'ubururu, imbere ye hari umugabo wambaye agapira k'ubururu uri kwandika mu gitabo ku meza, ameza ariho igitambaro gisa umuhondo ndetse hateretseho icupa ry'amazi, hirya hariho igikapu.

Imodoka y'umweru, ikaba ari imodoka yo mu bwoko bwa fuso. Ikaba yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu avuga ngo gutaha ikigo cyita ku buzima mu Karere ka Bugesera.

Umugabo ufite imisatsi ya direde n'ubwanwa yambaye agakabutura n'agasengeri. Ari hagati mu gipine bigaragaza ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ni byiza kwegera umuntu nk'uyu tukamuganiriza kugira ngo turebe ko yasubira ibuzima.

Umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe akaba afite, ibyanwa byinshi n'ibisatsi nk'ibya raki dubi, akaba afite ikibazo cyo mu mutwe ni byiza ko yajyanwa kwa muganga akitabwaho.

Madamu Jeannette Kagame akaba ahagaze ku ruvugiro, afite indangururamajwi imbere ye, yambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi cyijimye akaba yambaye n'amadarubindi, aho ari gutanga imbwirwaruhame ku bijyanye n'ubuzima.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe bigaragara ko ashobora kuba ari umusazi, ari kugenda atoragura amashashi mu muhanda yambaye imyenda y'ibicirane, afite agafuka k'umweru, inyuma ye hari kugendamo imodoka y'ifuso mu muhanda wa kaburimbo.

Umunsi mpuzamahanga ku isi wita ku buzima bwo mu mutwe, ukaba uzaba ku itariki icumi z'ukwacumi. Ni byiza cyane ko twita ku buzima bwo mu mutwe kuko ari ingenzi cyane.

umuntu wumugabo wicaye yigunze bigaragara ko yahungabanye harumu umukobwa wambaye isaha ku kuboko umufasheho ari kugenda amuganiriza kugira ngo amuhumurize

Abantu babiri b'ibishushanyo, bafashe utundi tuntu tugaragaza imitwe y'abantu bagera muri bane, hirya hari amagambo yanditseho ngo umunsi wo kwita ku buzima bwo mu mutwe ku Isi bibiri na makumyabiri n'agatatu.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi ijya gusa ubururu, yambaye n'agasengengeri k'umukara yambaye umudari. Aricaye ari kureba hejuru ari guseka arishimye cyane, yambaye n'udukomo ku maboko ye.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe zifite imifariso y'ubururu, imbere yabo ku meza hari udutambaro dusa ubururu n'umweru, imbere hari umumama uhahagaze wambaye agakanzu k'umweru n'agapira k'umukara uri kubakoresha iyo nama.

Umwana wambaye agapira k'umweru yikorereye amaboko ari kurira bigaragaza ko afite agahinda. Iruhande rwe hari umubyeyi wambaye agapira k'umuhondo gatambitsemo uturongo tw'umukara n'ijipo ijya umutuku. Hirya hari abandi bantu benshi bigaragara nk'aho ari mu isoko.

Ni mu cyumba hateraniyemo abantu benshi bicaye bisa nk'aho hari kuberamo inama imbere yabo hari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umutuku hari kandi n'undi mugore wambaye ikanzu idozwe mu gitenge ufite indangururamajwi mu ntoki ari kugira icyo ababwira.

Igishushanyo kiri mu ibara ry'uruziga, kikaba gifite amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo, munsi hakaba handitseho amagambo ari mu mpine bivuga ngo ni uburyo u Rwanda rwita ku burwayi bwo mu mutwe.

Umugabo ukenyeye igitenge, wambaye imihama mu maguru n'agapira k'ubururu karimo uturonko tw'umweru. Yicaye mu cyumba gifite ibikuta bishaje cyane, aho yicaye ku bitenge. Uyu mugabo, afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo wirabura aryamye ku gitanda kwa muganga, arasamye, hari umuganga w'umugore uri kumukura iryinyo. Ni byiza cyane ko na we igihe wumva urwaye iryinyo wakwihutira kwa muganga bakarikura.

Abantu benshi cyane bicaye, abandi bahagaze bari kwifotoza. Ni abagabo ndetse harimo n'abakobwa bake. Barishimye cyane bigaragaza ko inama bari barimo yari iryoshye cyane.

Umukobwa uri guseka wahumirije, akaba afite amenyo meza, aho ari gusukura amenyo ye yifashishije urudodo kugira ngo avanemo imyanda iba yaheze hagati y'amenyo.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi. Harimo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi. Harimo n'intebe isi icyasi, umurwayi yicaraho mu gihe bagiye kumukura amenyo.

Icyumba kiri mu mabara y'umweru, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gutanga serivisi zita ku menyo, yaba kuyakura cyangwa se kuyavura.

umugabo ufite ubwanwa buke afite agatambaro ku rutugu akaba afashe urudodo mu ntoki ari mu menyo, uru rudodo rukaba rwifashishwa mu gufukura kugira ngo barwanye indwara nyinshi zigiye zitandukanye ziterwa n'imyandaba yasigaye mu menyo.

Umukobwa uri guseka cyane akaba afite amenyo meza, imbere ye hari andi menyo y'amakorano, ushobora gushyira mu kanwa kawe, amenyo yawe akarushaho gukomera cyangwa mu gihe waba warakutse ayo wari ufite.

Umuntu wagiye kwa muganga kwikuza iryinyo none bakaba bamaze kurikuramo bakoresheje icyuma cyabugenewe. Hasigaye umwobo munini cyane uteye ubwoba. Ariko abaganga baguha umuti hanyuma uyu mwobo ugafungana.

Umugabo w'umuganga yambaye itaburiya y'umweru n'agapira k'umuhondo, yicaye ku gatebe gasa icyatsi, bigaragara ko ari umuganga kuko inyuma ye hari agatanda gasa icyatsi, uyu akaba atanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Umugabo w'ubwanwa bwinshi, ari gusukura amenyo ye akoresheje akadodo gasukura amenyo, afite akuma gasa icyatsi, ni byiza cyane gusukura amenyo dukoresheje urudodo kuko bikoramo imyanda yose iba irimo.

Umugabo wagiye kwa muganga kwivuza amenyo, abaganga bagera muri babiri bakaba bari kumwitaho bareba uko amenyo ye ahagaze. Ni byiza cyane ko nawe igihe waba ufite ikibazo cy'amenyo, wakwihutira kwa muganga bakaguha ubutabazi bw'ibanze.

Umwana muto uri guhabwa serivise zita ku menyo. Yambaye amaherena ndetse muganga uri kumufasha, yambaye udupfukantoki dusa umweru.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho harimo intebe abaganga bicazaho umurwayi waje kwikuza amenyo, hanyuma akicara agatengamara bakamukura amenyo ameze neza.

Abaganga babiri bateraniye hamwe bari gusuzuma amenyo y'umwana waje abagana ko ameze neza umwana nawe we aricaye yambaye agapfukamunwa k'umutuku inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo icyerekezo cyacu.

Umugore wagiye kwa muganga kwivuza amenyo none muganga ari gutungamo icyuma kabuhariwe ngo arebe ko amenyo ye ameze neza cyangwa nasanga atameze neza ayakure. Hirya hari abandi baganga na bo bari kugenda buzuza amafishi.

Umusaza ugeze mu za bukuru wambaye agapira k'icyatsi, afashe na ka ariteri mu ntoki k'icyatsi araterura. Ari kumwe na muganga wambaye itaburiya y'umweru amwereka uburyo agomba guterura kugira ngo imitsi ye igororoke.

Umusaza ugeze mu zabukuru yambaye agashati ka karokaro afite agacupa mu ntoki. Ari kumwe n'umuganga wambaye amadarubindi n'itabuririya y'umweru afite mudasobwa imbere ye arikumwereka uko uwo muti ukoreshwa.

Umusaza ugeze mu za bukuru yambaye agashati k'umutuku n'amadarubindi ari guseka, ari kurebana n'umuganga mwiza cyane w'inzobe wambaye agashati k'ubururu n'misatsi yazirikiye inyuma nawe ari kumusekera.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba afite agasahani k'umweru ari kugenda ashyiraho ibyo kurya bigiye bitandukanye, ari kumwe n'undi muntu utagaragara neza mu maso, inyubako arimo iteye amarangi y'umweru ni nziza cyane.

Umusaza ugeze mu za bukuru yambaye imyenda y'umweru yicaye mu ntebe aregamye, ari kurerebana n'umuganga w'umukobwa wambaye imyambaro y'ubururu. uwo mukobwa ari kumurebera amusekera mu rwego rwo kumuha serivise nziza.

Umuryango mugari ugizwe n'abana, ababyeyi ndetse na sekuru ufite imvi zabaye uruyenzi, bari guseka bose barishimye, inyuma yabo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, imisatsi yose yarogoshe, yambaye agapira k'umweru ndetse n'agapira imbere gasa icyatsi, afashe ikirahuri mu ntoki ndetse n'ibinini bigaragara ko agiye kubinywa.

Icyumba gisize amarange y'umweru, hicayemo umusaza wambaye agapira k'umweru, akaba afashe inkoni mu ntoki, ari kurebana n'umuganga w'umukobwa w'inzobe, uri kumusekera amugira inama z'ukuntu yakwitwara mu gihe ageze mu zabukuru.

Abaganga batugira inama y'uko abantu bageze mu zabukuru, baba bakwiye gufatamo ifunguro ryiganjemo imbuto nyinshi cyane z'amoko agiye atandukanye, izi rero ni imbuto bashobora kurya bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba harimo umusaza ndetse n'umukecuru, imbere yabo ku meza bakaba bafite udusahane turimo ibyo kurya. Uyu musaza yicaye mu kagare aho inyuma ye hari umusore wambaye amadarubindi ufashe kuri ako kagare. Yambaye imyenda y'umweru.

Umusaza ugeze mu zabukuru, afite damu imbere y'iwe ari kugenda ayikina uw'umwe, ni byiza cyane ko abantu bageze mu zabukuru babona utuntu tubahuza kuko ubwonko bwabo buba bwarananiwe.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu gisambu, aho bishimye bamwe bamanitse amaboko, undi umwe afite ifuni ya nyirabudomo, aba ngaba bigaragaza ko ari abahinzi bishimiye umusaruro babonye.

Umukobwa wambaye agapantaro k'umutuku ndetse n'agashati k'umutuku bigaragara ko ari umuganga, arikumwe n'umusaza ugeze mu za bukuru wambaye amadarubindi n'imisatsi y'imvi, ari kumuteruza ka ariteri kugira ngo imitsi ye igororoke.

Umukecuru ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umwana we w'umukobwa, bari kurebana mu maso baseka. Umukecuru yambaye amadarubindi afite imboga ku gasahani imbere ye ari kugenda azikeka barishimye.

Umukecuru wambaye agakanzu kadoze mu gitenge, yogoshe umusatsi wose awumaraho, ndetse hari umukobwa w'umuganga wambaye impuzankano zisa umutuku, bigaragara ko ari umuganga. Yambaye agapfukanwa ndetse n'amadarubindi amufashe akaboko.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba yicaye imbere y'akameza ari gusoma ibitabo, imbere ye hari ikirahuri kirimo icyo kunywa. Umusaza yambaye ishati isa ibara rya shokora.

Umusaza ugeze mu za bukuru yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara ahagaze kutwuma, ari kumwe na muganga amwereka uko batugenderaho. Ni uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo barebe ko ubuzima bw'umuntu buhagaze neza.

Umusaza ugeze mu za bukuru yambaye amadarubindi yagiye kwa muganga bari kumupima umuvuduko w'amaraso bamushyize icyuma cy'umukara ku kizigira cy'ukuboko hanyuma muganga ari kumupima ngo arebe uko ahagaze.

Umukecuru wambaye amadarubindi n'agapira gasa umuhondo n'igitambaro cy'umukara ariguseka. Arikurebana n'umukobwa mwiza cyane w'inzobe w'umuganga wambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru. Bari mu rugo iwabo aho umusaza afite igikombe ari kunywa amazi. Umukecuru na we yambaye amadarubindi ari kureba uburyo umusaza we ari kuyanywa.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, ateruye akuma ka ariteri mu ntoki, ari kumwe n'umukobwa mwiza cyane w'inzobe w'umuganga, ari guseka amwereka uburyo baterura ako kuma.

Abantu babiri bari mu cyumba, harimo umukecuru ushaje wambaye amadarubindi ndetse n'undi mukobwa ukiri muto, ari kumutegurira amafunguro yiganjemo imbuto ndetse n'imboga.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, ari gutambuka mu muhanda ari kumwe n'umukobwa we. Akaba umukobwa ari kumwereka uburyo umukecuru yakora imyitozo ngororamubiri akagira ubuzima bwiza. Bari ahantu hari umuhanda ufite ubusitani bwiza buteyemo imikindo ndetse hakaba hari n'umuyaga n'amahumbezi.

Umukecuru ugeze mu za bukuru akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri aho yashinze amano ndetse n'inkokora akaba agenda azamuka azamuka yongera amanuka kugira ngo imitsi ye igororoke.

Umukecuru uri guseka afite agasahani kariho ibyo kurya bigiye bitandukanye, hariho kandi n'avoka, afashe ifoke mu ntoki ari guseka, bigaragara ko yishimiye iryo funguro agiye gufata.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, aho we imisatsi ye yabaye umweru bivuze ko imvi zabaye uruyenzi, yambaye agapira k'ubururu n'umukenyero w'umweru, ahagaze ku ruvugiro afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga.

Umusaza ufite imvi ari kumwe n'umukecuru bari kureba muri telefoni, umukecuru yambaye agapira k'icyatsi naho umusaza yambaye ishati y'umweru imanutse imuyemo uturongo, imbere yabo ku meza hateretse ibirahuri birimo amazi.

Uyu nguyu n'umusaza ugeze mu zabukuru, ari kumwe n'umukecuru ufite urupapu mu ntoki, umukecuru yambaye isengeri bari kugenda basomaho bombi ngo barebe amabwiriza muganga yaba yabahaye.

Abakecuru bageze mu zabukuru batatu, bahagaze ahantu hamwe wagirango ni mu isoko, uwo hagati afite telefoni, bose bari kurebamo babiri muri bo bambaye amadarubindi ariko umwe we ntabwo ayambaye.

Abantu benshi cyane bicaye bari mu cyumba kiberamo inama, imbere yabo hicaye abagabo batatu n'abagore babiri bari kubaresha iyo nama, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko bari kuvugaho.

Abantu benshi, bicaye, bari gufata ifoto y'urwibutso, buri wese mu ntoki ze afitemo agatabo, imbere yabo hari ameza y'uruziga ariho ibitambaro by'umweru, inyuma yabo hari insakazamashusho ndetse n'icyapa kiriho insanganyamatsiko.

Umugore n'umugabo bafite ibyapa mu ntoki biri mu mabara y'umuhondo, byandikishijeho amagambo y'mweru ndetse n'umuhondo, inyuma yabo hari icyapa kiri kuvuga ngo ni inama y'Isi yose, bagaragaza icyerekezo cy'Isi yacu muri bibiri na mirongo itatu.

Umukobwa w'umuganga wambaye akanozasuku mu mutwe ndetse n'agapfukamunwa. Yambaye n'imyambaro y'abaganga y'umweru. Aho yafunze igipfunsi ari kuvuga ngo tugomba guteza imbere ubuvuzi mu Rwanda.

Abantu bagera muri bane, bafashe udukingirizo mu ntoki. Tumwe turasa ubururu umutuku ndetse n'umuhondo. Bari kutubwira ko sida iracyahari, tugomba gukora imibonano mpuzabitsina twifashishije udukingirizo. Kuko kwirinda biruta kwivuza.

Ibiganza bibiriye bifatanye bikaba biri hagati y'inyuguti ya ha ndetse na ra, bikaba biri ahantu hari ibara ry'ubururu, munsi ntacyo amagambo mu ibara ry'umweru avuga ngo ubuzima bw'abantu b'abaturarwanda.

Utuziga tugiye dutandukanye, tugiye twanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru, yanditse mu rurimi rw'Icyongereza. Utwo tuziga turi mu mabara atandukanye harimo ubururu, icyatsi, umuhondo, oranje ndetse n'umukara.

Amagambo yanditse mu mabara y'umweru aho yanditse harasa ubururu bakaba bari kutubwira ngo ni umunsi wo ku isi wo kurwanya indwara ya virusi itera sida.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, harimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye imyambaro iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara n'icyatsi, ameza yabo ashasheho igitambaro gisa iroza ndetse na shokora.

Icyapa cyanditseho amagambo y'umukara mubika bigiye bitandukanye, aya magambo ni mato ntagaragara neza, hariho ifoto y'abana ndetse hariho n'ikirango cy'ikigo cy'umuryango wita ku bana ku isi UNICEF.

Abantu benshi cyane bicaye bateraniye hamwe bari mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe zisa umutuku, imbere yabo hari abantu bagera muri batanu bari kubakoresha iyo nama, akaba ari umunsi mpuzamahanga wita ku bagore ndetse urwanya na Sida.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kiberamo inama, biganjemo abagore bambaye udupira tw'umweru hafi ya bose, bakaba bafite imisatsi ya menshi. Imbere yabo hari umukobwa wambaye agapantaro k'umweru, agapira k'ubururu n'umupira w'umukara uri kubakoresha inama.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, afite igipfuku ku jisho ryiwe gisa umweru, bigaragara ko yagize ikibazo cyo gukomeraka, uyu mukecuru ari guseka ateze igitambaro gisa umweru.

Umuntu uri mu cyumba kwa muganga aho yambaye ishati isa ubururu, yambaye n'agapfukamunwa. Hari umuntu wambaye akajiri n'agapfukamunwa ndetse n'ingofero y'abayisilamu uri kumutera urushinge ku bitugu bye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi harimo udutebe twiza cyane tw'imifariso ndetse harimo n'utumeza tugera muri dutatu, kamwe karasa umukara, akandi umweru, akandi nta rangi gasize, hari n'icyatsi k'ikimera kiri kugaragara hafi aho.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gifite inkuta zisize amarangi y'umweru, inzugi zirasa umutuku, purafo nazo zirasa umweru. Hashashemo amakaro asa shokora n'umweru, ndetse muri icyo cyumba nta muntu n'umwe urimo.

Icyumba kigari cyane gisize amarange y'umweru, hakaba harimo amakaro ashashe hasi asa ibara ry'igitaka, amatara hejuru ari kwaka mu ibara ry'umweru.

Abaganga bateraniye hamwe, aho hari umurwayi uryamye ku gitanda utagaragara neza mu maso, bakaba bari kumwitaho, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu n'udupfukamunwa n'utunozasuku mu mutwe ndetse n'udupfukantoki mu ntoki.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, haba harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bifashisha batanga izo serivise, harimo intebe ndetse n'udutanda n'ibindi bikoresho bifashisha.

Inyubako irimo icyumba gitangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, harimo ibikoresho byinshi cyane byifashishwa mu gutanga ubutabazi ku barwayi, harimo ibitanda bitandukanye ndetse bifite n'amapine.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho hari igitanda baryamishaho umuntu igihe bagiye kumunyuza mu cyuma, icyo cyumba gifite ibikuta bisa umweru, harimo n'insakazamashusho imbere.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru munsi ku rubaraza hakaba hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, iyo nyubako ikaba yanditsweho mu magambo afite ibara ry'ubururu ko ari laboratwari.

Inyubako nziza cyane ifite ubusitani bugaragara neza, isakaje amabati y'icyatsi ndetse n'urugo ruyikikije rurasa icyatsi ni urw'ibyuma. Utuyira tuyijyaho dushashemo amapave.

Abantu benshi cyane bicaye ndetse n'abahagaze bateraniye ahantu hamwe kwa muganga barikwifotoza. Icyumba bariho cyanditseho ngo inzu y'ababyeyi bivuze ko ari aho ababyeyi babyarira.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho haba harimo ibikoresho kabuhariwe byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa muri ubwo buvuzi bwa gakondo cyangwa bugezweho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba yanditseho ko ariho bakorera ubushakashatsi bw'ibijyanye n'ubuvuzi, hariho n'ikirangantego cy'u Rwanda, hari agahanda kajyayo ka kaburimbo ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ya etaje. Ifite imiryango isa umukara. Umwe muri yo urafunguye, bari kutwereka aho bacururiza imiti. Hazwi nko muri farumasi. Niba nawe urwaye nyarukira kuri iyi farumasi baguhe imiti, bitagusabye kujya gutonda umurongo kwa muganga.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho harimo ibikoresho byose nkenerwa byifashishwa n'abaganga igihe bari kwita ku barwayi. Hakaba hariho ibintu bishushanyije ku bikuta by'inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye. Harimo inzovu, ingwe ndetse n'impyisi, n'izindi nyinshi cyane.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, hari abantu benshi baje kuhashaka serivisi y'ubuvuzi, iyo nyubako ni igorofa ifite ubusitani bwiza cyane.

Ni kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Hateraniye abantu benshi cyane baje gushaka izo serivisi harimo aba mama n'abana ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe abandi barahagaze.

Ni kwa muganga, aho hari umurwayi urebye cyane uryamye ku gitanda, abaganga bagera muri bane, bamuteraniyeho, bari kugerageza kugira icyo bakora kugira ngo barebe ko bamusubiza ubuzima.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu ikaba iteye amarangi y'umweru, imbere yaho hakaba hari icyapa kiri mabara y'umutuku ariko gisa umweru cyandikishijeho amagambo y'umukara avuga ngo ikigo nderabuzima cya Kanyinya.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi by'amabaragiye atandukanye, hasi hari amabara ya oranje, ubururu ndetse n'icyatsi, hejuru amatara ari kwaka mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bifite amapine biri mu mabara y'ubururu n'umweru, hagati ya buri gitanda n'ikindi, hagiye hari irido ribitandukanya, ibi ngibi bishyirwaho abarwayi mu gihe bari kwa muganga.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho harimo ibikoresho byinshi byifashishwa. Harimo insakazamashusho ebyiri zizimije ndetse harimo n'ameza n'ibindi bikoresho bifashisha batanga serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako bigaragara ko iberamo inama, harimo intebe nyinshi cyane ziri mu mabara y'umutuku ndetse imbere ya buri ntebe hari akameza kariho indangururamajwi. Imbere yaho hari akabati gasa umweru umuntu urikuvuga ahagararaho.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga by'umwihariko hashyirwa abantu baje gukora imyitozo ngororamubiri, harimo udukoresho twa ariteri abantu baterura igihe bakeneye izo serivisi.

Abantu batunze ku murongo. Imbere yabo hari intebe z'umukara z'amafoteyi. Hari kandi n'intebe y'urubaho. Hari umuntu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, ndetse ku kameza imbere hari abantu bari kubaha serivise bashaka.

Ahacururizwa imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara, harimo etageri irimo imiti myinshi cyane ku buryo uwo washaka wose wawubona. Niba nawe urwaye nakugira inama yo kunyarukira hano bakaguha umuti hanyuma ugakira.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, harimo ibitanda bitandukanye biryamaho abarwayi, hejuru ya buri gitanda hagiye hariho inzitiramibu izinze.

Icyumba gicururizwamo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi, harimo utu etajeri iburyo n'ibumoso turimo iyo miti, hari n'akayira umuntu anyuramo agiye kuyishaka, imbere urugi ruhari rurafunze n'ingufuri.

Inyubako nziza cyane y'igorofa ifite ibirahure by'akataraboneka, iteye ibikuta bifite irangi ry'umweru, hari ibiti bihakikije bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Icyumba kigari cyane gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kibereye aho nta gikoresho na kimwe kirimo ndetse nta n'umuntu urimo, amatara hejuru ari kwaka, sima nayo ijya gusa umweru.

Icyumba gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi. Harimo ibyuma kabuhariwe, by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi. Biri mu mabara agiye atandukanye. Harimo umweru ,ndetse n'umutuku muke.

Icyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi zigiye zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa mu gutanga izo serivisi, harimo utugare dufite udutanda n'amapine ibikuta birasa umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kiba kirimo imiti igiye itandukanye, ariko buri cyumba kiba gifunzwe kuko cyemerewe gufungurwa n'umuganga ugikoreramo, agakorodoro nta muntu n'umwe ukarimo, ariko buri cyumba kigiye kiriho icyapa cy'umuhondo cyangwa ubururu.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zisakaje amabati y'umutuku, hari ubusitani bwiza burimo ibyatsi bikiri bito, hari kandi akayira kajyayo k'amapave.

Ni kwa muganga ahatangirwa serivise zo gukura amenyo, harimo udutebe twifashishwa, aho umurwayi agenda akicaraho hanyuma muganga akaza akamukura amenyo, utwo dutebe dufite amapine.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo insakazamashusho zigera muri eshatu, abaganga bifashisha bari gusuzuma amoko menshi y'indwara.

Ni kwa muganga ahatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Umuryango urafunze ufite n'ibirahure. Ariko hejuru hari icyumba cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru avuga ngo ni aho bakorera operasiyo.

Inyubako nziza cyane igezweho yubatswe mu buryo bw'amagorofa, ikaba iriho icyapa cy'umutuku cyanditseho ngo twite ku buzima bw'abantu ndetse n'inyamaswa muri Afurika.

Inyubako ifite ibikuta biteye irange ry'umweru, mo imbere harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, aho biri mu mabara asa umukara. Amakaro yo hasi na yo arasa igitaka.

Abantu benshi harimo abera n'abirabura bakaba bahagaze imbere y'inyubako bari kwifotoza. Iyi nyubako akaba ari iy'ikigo nderabuzima cya Rwamagana. Ikaba ifite ibikuta bisize amarangi asa nk'ivu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa n'amadarubindi, aho ari guha ubuvuzi umwana ukiri mutoya wazanywe n'umubyeyi, ni byiza cyane kuzana umwana kumuvuza igihe tukibona kimwe mu bimenyetso mpuruza.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hateraniyemo abaganga benshi bambaye amataburiya ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu, bari kugenda bakanika ibyuma byabo ngo bumve ko bikora neza hanyuma babone guhamagaza abarwayi.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hari abarwayi baryamye ku bitanda, umwe muri bo ariceye, ari kuganira na muganga, muganga aramubaza uko amererewe undi nawe akamubwira, muganga yambaye itaburiya isa umweru.

Inyubako iteye amarangi ajya gusa oranje ifite ibirahure byafime hejuru handitseho ngo ni ikigo cy'u Rwanda cyita ku buvuzi bwa kanseri. Imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu, ku bikuta hateyeho irange ry'ubururu, hari imodoka iparitse imbere yayo ndetse n'abantu bagera muri bane bari imbere yayo, imbuga yayo ishashemo amapave.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho harimo ibikoresho byose nkenerwa. Ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse n'amatara ari kwaka hejuru. Harimo ndetse n'ibikoresho biri mu mabara y'umukara.

Inyubako itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, imbere hari umuryango ufunguye, mo imbere harimo ibikoresho byinshi bitagaragara neza ariko byifashishwa mu buvuzi, hasi harasa icyatsi.

Inyubako nziza cyane zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hari ubusitani bwiza cyane ndetse akayira kajyayo gashashemo amapave hari umwana ufite ubumuga uri kugendera mu kagare bigaragaza ko agiye kuhashaka serivisi z'ubuzima.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'umutuku, hino hari ubusitani bukiri buto, butarafatamo ibyatsi, hari n'agatara ku muhanda bigaragara ko ari inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi itaruzura.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye kwa muganga, hari inzu nziza cyane hari ubusitani bwiza cyane, aho hateyemo igiti kirekire cy'inganzamarumbo gitanga umuyaga n'amahumbezi ku bantu bahaherereye.

Umugabo wicaye yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ikoboyi afatiye agatambaro k'ubururu ku kizigira cy'ukuboko. Bigaragara ko yagize ikibazo mu gihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Akuma kifashishwa baha serivisi abantu bagize ikibazo igihe bakoraga siporo. Aka kazwi nka burankari gafite amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara.

Uwo musore uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yashinze ukuguru kumwe ukundi yagushyize inyuma, akaba yashyize n'ukuboko kumwe hasi ukundi kuri hejuru, yambaye imyenda y'umukara, ahantu ari gukorera harasa umweru.

Insimburangingo z'amaguru, izi zikaba zihabwa umuntu wagize ikibazo cyo kuvunika ukuguru. Aho agenda kwa muganga bakakimugurisha akazajya akifashisha kugira ngo abashe gutambuka.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'umweru, amaboko ye yayahuje yayafatiye ku gatwe k'inyuma, yambaye isaha aduteye umugongo, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma tugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hahagazemo umusore bigaragara ko ari umutekinisiye, akaba ari kureba ko ibyuma byaho bikora neza kugira ngo bitaza kubatenguha mu gihe abarwayi baje.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri. Yajyanwe kwa muganga, none muganga amufashe ukuguru ari kumugorora. Muganga yambaye itaburiya y'ubururu. Uwo murwayi we yambaye ipantaro isa umukara.

Umuntu wari uri gukora imyitozo ngororamubiri maze aza kuvunika akaguru, bamwihutaniye kwa muganga none aryamye akaguru yakamanitse ku cyumba cyabugenewe, iruhande rwe hari abandi bantu bari kureba uko amerewe.

Umuntu wari uri gukora imyitozo ngororamubiri none yavunitse, yagiye kwa muganga none muganga yamuryamishije ku gitanda, ari kugenda amukanda ku mfundiko kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umusore wambaye agasengeri k'umukara n'agasaha k'icyatsi ku kuboko aricaye afashe icupa ry'amazi ari kunywa amazi. Ni byiza cyane kunywa amazi bituma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusaza uri guterura ariteri yambaye agapira k'umukara k'abasore gatambitsemo uturongo tw'umweru. Ari kumwe na muganga ari kumuha amategeko n'amabwiriza y'ukuntu yaterura iyo ariteri. Iyo ariteri irasa umukara.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, aho bari gukina umukino wa basiketi, bambaye imyambaro y'umukara ndetse n'umweru, hirya yabo hari abantu babashungereye, hakaba hari n'ibimera bizwi nk'insina.

Inkweto ni nziza cyane y'umukara ya bato. Ikaba yifashishwa n'umuntu uri gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri. Iyi nkweto iraboneka ku masoko hose ni ngombwa ko nawe wayigura ukazajya uyifashisha.

Umuntu yari ari gukora imyitozo ngororamubiri none yavunitse, yambaye agakabutura k'umukara, yagiye kwa muganga aramupima maze asanga yavunitse mu ivi, ashyiraho amarangi y'ubururu n'umutuku bigaragaza ko ari aho yavunitse.

Umumama ari kumwe n'umwana muto. Umumama yambaye ibitenge by'amabara y'ubururu, umwana yambaye imyenda y'umweru, bicaye mu cyumba gishashemo matera nyinshi, biragaragara ko bishimye, bafite akanyamuneza ku maso.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri. Ariko hano bari kutwereka n'imbuto nyinshi warya, zagufasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Harimo nka pome, amacunga, ndetse no kunywa amazi.

Amaboko y'umuntu yambaye udupfukantoki turi mu ibara ry'umukara ariko duciye, utu twambarwa iyo umuntu agiye gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza rero gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma ugira ubuzima bwiza.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yambaye imyenda y'umukara. Afite imisatsi ya direde aho yateye intambwe imwe. Ahantu hari tapi isa icyatsi ndetse akaba yambaye n'udukomo ku maboko ye.

Agacupa karimo amazi, gafashwe n'ikiganza cy'umuntu ariko we atari kugaragara. Hakurya hari ikirere gisa ubururu ndetse n'umweru, ni byiza kunywa amazi kuko bituma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri yambaye agasengengeri k'umukara ndetse yambaye n'inkweto zisa umukara, akaba yicaye yakojeje amaboko ye ku nkweto.

Umuryango utabara imbabare mu Rwanda, witwa croix rouge. Aha uri mu kirango gisa umweru cy'uruziga, harimo umusaraba w'umutuku.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, bifashisha bari kuvura umuntu wagize ikibazo mu gihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, harimo bande bamwambika ku ukuboko, harimo umukasi bifashisha bari kuyikata ndetse n'utundi dukoresho tubafasha.

Umukobwa wambaye agasengeri ndetse afite na telefoni ku kizigira cy'ukuboko afite na ekuteri arikugenda yumva imiziki. Afite icupa ry'amazi mu ntoki arikunywa. Ni byiza kunywa amazi kuko bituma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Icyuma cyifashishwa mu buvuzi bwo ku bigo nderabuzima, aho kiri mu mabara y'umweru. Gifite umushumi muremure ndetse hariho n'akabara k'ubururu.

Umusore wambaye agapira kajya gusa umukara akaba ahagaze afashe icupa mu ntoki arikunywa amazi. Ni byiza kunywa amazi kuko ari ingirakamaro ku buzima bwacu.

Umuntu uryamye wazamuye ivi ariko we atagaragara, muganga akaba ari gukanda iryo vi bigaragara ko ari kumukorera masaje, muganga yambaye itaburiya y'umweru.

Icyapa kiri gusa ubururu, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hakaba hariho amabara ari gusa ubururu, umutuku ndetse n'amabara y'imvange.

Abantu bateraniye hamwe, harimo abana ndetse n'abantu bakuru, aba bari gukora imyitozo ngororamubiri, bari mu kibuga cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, imbere hari umuntu uri kugenda abakoresha.

Umuntu yarari gukora imyitozo ngororamubiri maze aravunika none yagiye kwa muganga, bamushyize akabarafu k'ubururu ku nkokora aho yavunitse bari kugenda bamukanda kugira ngo barebe ko yarushaho kumererwa neza.

Umusore wambaye isengeri akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma tugira ubuzima bwiza niyo mpamvu n'abaganga igihe cyose badushishikaza kuyikora.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba kimwe bamwe barahagaze abandi baricaye bose bambaye utunozasuku mu mutwe ndetse n'udupfukamunwa. Bamwe ni abagabo abandi n'abagore, imbere yabo ku meza hariho mudasobwa ariko bose bari kureba insakazamashusho, iriho umugabo uri gusobanura ibyerekeranye n'ubuvuzi.

Umukobwa wambaye imyambaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yashyize telefoni ku kizigira cy'ukuboko yambaye na kuteri ari kugenda yumva umuziki iruhande rwe hateretse agacupa karimo amazi yo kunywa.

Icyuma kifashishwa mu buvuzi mu gupima indwara zigiye zitandukanye, kiri mu mabara y'umweru, gifite utuntu dusa ubururu tubiri ndetse n'utundi tugera muri tune dusa umukara.

Umukobwa wari uri gukora imyitozo ngororamubiri hanyuma aza kuvunika. None yaje kwivuza, muganga yamwicaje ku gitanda ari kureba aho yagiye avunika yahakikije udutambaro turi mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru ku ivi.

Amafoto y'ibintu bigiye bitandukanye, harimo umukobwa uri kuvugira kuri telefoni izwi nka tuvugane ndetse hakaba hari na mudasobwa imbere ye.

Ikirahure kiri gusukwamo amazi n'ijage ifashwe n'umuntu mu ntoki. Aya mazi ni meza cyane bigaragaza ko nk'umuntuntu ugiye kuyanywa aragira ubuzima bwiza cyane kandi buzira umuze.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri. Akaba yashinze ivi rimwe, ukuguru kumwe yaguhagaritse. Yambaye agakabutura ndetse n'agasengeri k'umukara. Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri nkuko abaganga babidushishikariza.

Umusore wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, ariko yamenye ubwenge yihutira kujya kwa muganga, none muganga ari kumushyiriraho ibipfuko aho yaba yageze imvune ku kuguru.

Umusore uri kunywa amazi mu gacupa gasa ubururu. Ni byiza cyane kunywa amazi, kuko bituma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Nawe nakugira inama yo kuzajya unywa amazi ,nibura gatatu ku munsi.

Amoko menshi y'imbuto agiye atandukanye umuntu ashobora kurya akagira ubuzima bwiza, hari karoti, amashu, amacunga ndetse n'amaronji, hari n'umuntu uri aho ngaho uri kwiruka imfundiko ze zabaye ubuhiri.

Umuntu wambaye umupira w'umukara ufite amaboko bigaragara ko ari umuzungu, akaba ari kambika ga umuntu w'umwirabura ugiye gukora imyitozo ngororamubiri, iyo ga irasa umukara n'umweru.

Akuma bifashisha batwaraho umuntu wagize ikibazo cy'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri kazwi nka burankale. Hakaba hari abagabo babiri ba kuruwa ruje bagafashe bambaye imyenda itukura bakaba bahetseho umuntu wagize ikibazo cy'imvune.

Umugabo ufashe icupa ry'amazi ari kunywa icupa rirasa umweru, uwo mugabo yambaye agapira k'umukara. Ni byiza kunywa amazi kuko bituma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa uri kunywa amazi, yambaye agasengeri k'umukara n'agapantaro k'umukara, afashe terefoni ku kizigira cy'ukuboko niho yayiziritse, ni byiza cyane kunywa amazi kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'umusore yari ari gukora imyitozo ngororamubiri hanyuma azagutsikira, none yihutiye kwa muganga aho yagiye kwivuza. Muganga nawe ari kumwitaho aho ari kugenda amupfuka ku kabumbambore aho yari yavunitse.

Agasanduku k'umukara n'umweru, karafunguye karimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu kwita ku muntu wagize ikibazo mu gihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, harimo kandi n'udupapuro tuba turiho amategeko n'amabwiriza agenga umukino w'imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri none bamujyanye kwa muganga, bafashe ukuguru kwe bagushyira ku cyuma cyabugenewe, hari abaganga bari aho benshi bari kumwitaho ndetse n'abarwaza baje kureba uko amerewe.

Akabati karimo imiti myinshi igiye itandukanye ya kinyarwanda, yifashishwa mu kuvura nk'umuntu wagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, iri mu mabara y'umweru ubururu ndetse n'umuhondo.

Umukobwa wambaye agapantaro k'umukara n'agasengeri k'umukara, arananutse cyane ari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye ku gitanda, aho yarambuye amaboko ye yombi, igitanda gishasheho amashuka.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, aho hari igitanda kiryamishwaho umurwayi igihe bagiye kumunyuza mu cyuma, hashashemo amakaro ari mu ibara ry'ubururu, ibikuta birasa umweru.

Umwana wagiye kwa muganga kwivuza, none muganga yamutunze igikoresho mu maso, kugira ngo asuzume ikibazo uyu mwana yaba afite. Umwana nawe yararamye yatuje nta bwoba afite.

Uducupa tw'umweru, twandikishijeho amagambo agiye atandukanye. Ari mu mabara y'umutuku, ndetse n'ari mu mabara y'icyatsi. Ndetse tumwe hagiye hashushanyijeho igikakarubamba ,ndetse n'utunyoni turi kuguruka.

Uducupa dutatu dusa umweru, turi kumwe n'akandi karekare gasa umukara kariho icyapa cy'umweru. Imbere yatwo hariho indi miti isa umuhondo; iyo yose ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo aho ivura indwara zigiye zitandukanye.

Agashashi gapfunyitsemo imiti iri gusa umukara, haraditseho icyapa kigaragaza ko uwo muti upima garama ijana, iyi akaba ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye zifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibumba, uyu ni umuti ukaze cyane wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ku buryo umuntu urifashe arwaye ahita akira.

Ikiganza cy'umuntu gifashe agacupa kanditseho ngo Alowe jojoba, kakaba gashushanyijeho igikakarubamba, uyu ni umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko iza kinyarwanda.

Amavase arambitse ku gatanda k'icyuma gasa umweru, ayo mavase arasa umutuku, hateyemo ibimera bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'icyatsi, bikiriri bito, ibi iyo bimaze gukura, biratunganywa, bikavamo imiti gakondo.

Abantu bateraniye hamwe mu murima, aho bari kwifotoza. Bambaye impuzankano z'icyatsi, harimo n'umugabo wambaye amakositimu, uwo murima ukaba uhinzemo ibihingwa by'ibikakarubamba byifashishwa mu buvuzi bwa gihanga.

Uducupa tugiye dutandukanye, turi mu mabara y'umweru dutatu n'akandi kamwe gasa umukara gafite umupfundikizo w'umweru, imbere yaho harambitse indabyo ziri gusa umuhondo, iyi ngiyi akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo bavura indwara zigiye zitandukanye.

Akabati karimo imiti myinshi igiye itandukanye, ikaba iri mu ducupa turiho ibyapa bisa icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu. Dufite n'imipfundikizo igiye itandukanye, iyi irimo ni imiti gakondo.

Uducupa tubiri turi mu mabara y'umuhondo ndetse tukaba dushushanyijeho n'igikakarubamba, hashushanyijeho ndetse n'utunyoni turi kuguruka, utu ducupa turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Amavase asa umutuku, umukara ndetse n'umweru, akaba ateyemo ibiti gakondo igiye itandukanye ariko uyibangiriza yose ni umuti witwa arowevera uzwi nk'igikakarubamba.

Agacupa kari mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo kakaba gacuritse kameze nk'akavamo korogati. Inyuma yaho harasa umukara. Aka gacupa kakaba karimo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Hari ubwoko bwinshi cyane bugiye butandukanye bw'imyitozo ngororamubiri, ariko haba hari n'indwara nyinshi cyane zikomokaho cyangwa ziterwa no kudakora iyi myitozo. Hano rero hari uducupa turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura izo ndwara.

Ikimera gisa icyatsi gifite utubabi tugiye gucimbaguyemo giteye ahantu mu busitani hashashemo n'amabuye. Iki kimera kikaba kifashishwa mu buvuzi gakondo, aho kivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye by'umwihariko nk'indwara z'amarozi.

Uducupa turi mu mabara y'umweru ducuritse tukaba dushushanyijeho igisiga kiri kuguruka, handitseho amagambo y'icyatsi, hashushanyijeho n'igikakarubamba hariho n'udukandara tw'icyatsi, iyi akaba ari imiti gakondo.

Igisambu kirimo amokoro menshi agiye atandukanye y'ibimera, ibiri kugaragara neza ni ibizwi nka kapusine, bifite indabyo z'umutuku ndetse n'umweru, ibi bikaba byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, by'umwihariko harimo nk'indwara zifata abana bakiri bato.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda, iri amoko menshi: Harimo nk'iyo bita inyabarasanya yifashishwa mu kuvura ibikomeye.

Uducupa tugiye dutandukanye. Turi mu mabara y'umukara n'umweru, umutuku n'umweru, ibara rya shokora, icyatsi n'umukara , shokora, n'umweru. Tukaba turimo imiti ye itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Uducupa tugiye dutandukanye turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, n'uducupa tubiri indwara yananiranye ushobora kwiyegereza abavuzi gakondo bakayivura ikagenda nka nyombeye.

Agacupa gasa icyatsi, karimo imiti isa icyatsi, kakaba karimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo. Imbere yako, hari igikakarubamba.

Ni iduka ricuruza imiti igiye itandukanye ya gakondo. Harimo umugore umwe wambaye itaburiya y'umweru. Harimo kandi n'undi mwana wunamye wambaye ijipo y'ubururu, wifubitse agasharupe gasa umuhondo. Muri etajeri harimo amacupa arimo imiti igiye itandukanye.

Agati karekare gateye ahantu mu gisambu, kakaba kifashishwa mu buvuzi gakondo. Iyo gakuze bagasarura amababi yako, hanyuma bakayatunganya, akavamo imiti yifashishwa.

Agasekuro k'umukara karimo n'umuhini w'umukara, gakikijwe n'ibyatsi byinshi cyane bifite amabara y'icyatsi ndetse n'umweru. Ibi akaba ari ibimera bitunganywamo umuti gakondo, ukifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye. Aho babisekurira muri aka gasekuro.

Amoko y'ibimera bisa icyatsi agiye atandukanye, hejuru hagiye hariho akababi ka kimwe kimwe, hejuru bari kutwereka ko ari umunsi Nyafurika wita ku buvuzi bwa gakondo, bibiri na makumyabiri na kabiri.

Ibimera bifite amababi y'icyatsi harimo umuntu wambaye agapira k'umutuku wagiye kubisuromo azifashisha mu buvuzi gakondo agiye kuvura umwana we urwaye ibicurane.

Pikinyeri irimo amoko y'ibimera bigiye bitandukanye bikiri bito. Ibi bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo aho iyo bimaze gukura babijyana mu nganda bakabitunganya bakabivanamo imiti.

Iki ni ikimera kiba gifite utubabi tugera muri dutanu, iki iyo gikuze kijyanwa mu nganda bakagitunganya kikavamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Amoko y'ibyatsi gakondo bigiye bitandukanye, bikura bikavamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye. Ni byiza cyane ko igihe cyose indwara yananiranye kwa muganga wayihutana mu buvuzi bwa gakondo.

Uducupa tugera muri dutatu, du wanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye, ubururu, umutuku ndetse n'ibara ry'iroza, utu ducupa tuba turimo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi ziba zigiye zitandukanye za Kinyarwanda.

Icyatsi cy'igicucu gifite amababi asa icyatsi, iki kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho kivura indwara nyinshi zinyuranye by'umwihariko nk'indwara z'ibicurane ndetse n'amarozi.

Icyapa gisa icyatsi n'umweru kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Hashushanyijeho umugore wambaye agapira k'umukara bigaragara ko ashobora kuba atwite.

Pipinyeri irimo ibihoho birimo ibimera byinshi bigiye bitandukanye, hari abantu benshi cyane baje gusura iyo pipinyeri, hari akayira kanyuramo hagati, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Uducupa tugiye dutandukanye, turimo imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu kuvura indwara za gakondo, dufite imipfundikizo ifite amabara asa umweru ndetse n'umutuku.

Amabara agiye atandukanye agaragaza imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda, hari iri mu mabara y'umweru, umuhondo, umutuku, icyatsi ndetse n'iroza.

Ibinini biri mu gashashi, hejuru harambitseho agakarito k'icyatsi n'ubururu n'umweru, karimo umuti uzwi nka Alliance, handitseho amagambo avuga ko bakora amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane.

Igitunguru gisatuye, indimu nayo isatuye hari n'agacupa kari mu mabara y'umuhondo karimo umuti na wo usa umuhondo kariho n'icyapa, hejuru handitsiho ngo baho neza tv, uyu n'umuti uvura indwara zinyuranye.

Umugore ufite agacupa gasa umukara, kanditseho amagambo mu ibara ry'iroza. Ari kutwereka umuti gakondo uba urimo. Uyu muti wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi ziba zigiye zitandukanye.

Ibyatsi gakondo bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi. Bikaba byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye za kinyarwanda. Nibyiza nawe kujya kwivuriza aha hantu.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi agiye atandukanye, iki ngiki iyo kimaze gukura, baragisarura, bakajya kugitunganyiriza ahabugenewe, hanyuma kikavamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Icyatsi k'ikimera gifite amababi agiye atandukanye y'icyatsi. Iki ngiki kikaba cyifashishwa mu buvuzi gakondo. Kivura indwara nyinshi zinyuranye. Ni byiza nawe ko igihe cyose wumva utamerewe neza wanyarukira ku bavuzi ba gihanga bakaguha umuti nk'uyu ugakira ako kanya.

Uducupa tubiri dutandukanye. Kamwe karasa umuhondo gafite umupfundikizo usa shokora, akandi gasa umweru gafite umupfundikizo w'umutuku. Twose dushushanyijeho igikakarubamba.

Amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera, ariko ikiri kwiganzamo ni igicuncu. Iki ngiki kifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho kivura indwara nyinshi ziba zigiye zitandukanye.

Ikimera cyifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Iki ngiki iyo kimaze gukura kiratunganywa hanyuma kikavamo umuti wifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Imbuto zigiye zitandukanye. Harimo imineke ndetse n'inanasi. Hakabamo kandi n'udukarito turimo imiti myinshi igiye itandukanye. Ibi byose byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho bivura indwara za kinyarwanda.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye tugera muri tune, tubiri muri two ni tureture, utundi ni tugufi, twanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ngo imfinite.

Agasahani k'umweru gakamuriyemo icunga harimo umutobe waryo ndetse harambitsemo n'igisate cyaryo, ku mpande harambitse ayandi macunga ndetse na tangawize zirambitse ku ruhande.

Imiti gakondo igiye itandukanye, hari udusahani bari gushyiramo iyo miti, iyi miti yifashishwa mu kuvura'indwara nyinshi cyane zigiye gutandukanye ,cyane cyane indwara z'amarozi.

Umugore ukenyeye igitenge ariko utagaragara igice cyo hejuru, akaba afashe ururabo rusa iroza ruri ku byatsi bifite amababi asa icyatsi, izi ndabyo ziratunganywa zikavamo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Agacupa k'umweru karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo. Hakaba hari n'ibindi bisa umuhondo nabyo byifashishwa muri ubwo buvuzi.

Udukarito turimo imiti ya Aliyanse yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandakunye, turi mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru hariho udufureshi tw'ubururu ndetse n'utw'icyatsi handitseho makumyabiri na kane kuri karindwi.

Umukobwa uri gusiga ufite amenyo meza cyane, imbere ye bari kutwereka agacupa gacuritse gashushanyijeho igikakarubamba, batubwira ko igikarubamba gitunganywa neza, kikavamo umuti mwiza woza amenyo.

Agacupa gasa umweru kakaba kabaditseho icyapa kiri mu mabara y'ubururu, ndetse n'umweru. Kuri icyo cyapa hashushanyijeho akanyoni kari kuguruka hakaba harimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Udukarito tugeramo muri dutatu. Utu twose twanditseho amagambo arimo ibara ry'ubururu turasa umwe ndetse n'umutuku. Tukaba turimo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Amoko y'imiti izwi nka tangawize, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye ariko nanone iyi ikunze kwitwa te, ikaba ikoreshwa mu cyayi.

Amavase ateye mu ibihingwa bigiye bitandukanye byose byifashishwa mu buvuzi gakondo, ikibiyoboye byose cyitwa igikakarubamba iki ngiki kivura indwara nyinshi zinyuranye.

Agakarito kari mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, bakaba bari kutwereka ko haba harimo umuti wa gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye kakaba gapima garama cumi na zirindwi.

Udukarito tugiye dutandukanye, harimo udusa umweru ndetse n'udusa ubururu. Utu twose tukaba turimo udupfukantoki ndetse n'udupfukamunwa twifashisha mu kurinda indwara zandura.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye ariko icyiganza cyane ni igikakarubamba, iki kifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za kinyarwanda ziba zarananiranye ahandi.

Icyatsi cy'ikimera cyameze ahantu mu gisambu, ni ibyatsi byinshi cyane, ibi ngibi iyo bimaze gukura barabifata bakabijyana mu nganda zabugenewe, bakabitunganyamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Imiti gakondo yifashishwa bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, abenshi muri twe ntabwo tuzi ko urubuto rw'inanasi narwo ari umuti gakondo ariko niko biri rurifashishwa cyane.

Ikirango kiri mu maba y'umutuku ndetse n'icyatsi, hakaba hariho n'akantu gasa ubururu ndetse n'umuhondo, munsi handitseho amagambo ngo Rwanda FDA.

Iki ni ikimera gifite amababi asa icyatsi. Kikaba kifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, cyane cyane indwara za gakondo. Harimo nk'amarozi ndetse n'izindi zinyuranye.